Abanyeshuri bane b'abana bambaye impuzankano zisa, bakaba bari gukinira imbere y'amashuri, basa nkaho bari gukubagana.

Abanyeshuri bato cyane, bicaye mu ishuri, ririmo ameza ndetse n'intebe zo kwicaraho, inyuma yabo na ho hakaba hari abandi banyeshuri bicaye ku ntebe.

Abanyeshuri benshi b'abana bato cyane, bambaye impuzankano zisa bose, bicaye ahantu hari ameza, ibi bikaba byerekana ko aha ari mw'ishuri.

Abanyeshuri babiri b'abakobwa, bambaye impuzankano zisa ubururu bwijimye hasi n'ubururu busa nk'ubwerurutse hejuru, bari gukina.

Ishuri ririmo intebe ziteye zirebana, rikaba ryicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano, bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo, wambaye itaburiya y'umweru.

Abana bicaye kumukeka uri hasi mu nzu, bakaba bari kumwe n'abamama babiri, bafite ibitabo, bari kubereka amashusho ari mu bitabo.

Umugore uri kumwe n'abana benshi bari mu nzu mo imbere bicaye hasi ku itapi bari kuganira, urabona ko bishimye bafite ubwuzu rwose nta kabuza babayeho neza.

Abana benshi bicaye ku mukeka uri hasi mu twatsi, bakaba bari kumwe n'abantu bakuru babiri, bafite ibitabo, bari kubereka amashusho ari muri ibyo bitabo.

Ihene nziza cyane bigaragara ko yakuze neza, iyi hene ikaba igizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umukara, iyi hene bikaba bigaragara ko iziritswe amaboko.

Abanyeshuri benshi b'abana bato, bicaye mu cyumba kirimo intebe zo kwicaraho, iri rikaba ari ishuri ry'incuke aba banyeshuri bigiramo.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga, bafite ibitabo bari gusoma ibitabo mu rwego rwo kwiyungura ubumenyi bwiyongera k'ubwo bari basanganywe kugira ngo bazavemo u Rwanda rw'ejo hazaza.

Abana benshi cyane bicaye hasi, inyuma yabo hakaba hari ibigega bibiri by'umukara bijyamo amazi, iruhande hakaba hari akazu k'amatafari ndetse n'iyubakishijwe amabati.

Akabati karunzemo ibitabo byinshi cyane, bigaragara ko aha ari mu ishuri, babitse ibitabo bitagikoreshwa.

Ikibaho cy'umukara gishushanyijeho igishushanyo cy'umuntu, kikaba gishushanyijwe mu ngwa y'umweru, iri akaba ari ishuri abanyeshuri bigiramo.

Icyumba cy'ishuri kinini cyane, kirimo intebe abanyeshuri bicaraho, imbere y'icyo cyumba hakaba hamanitse ikibaho gisa icyatsi bigiraho.

Ishuri ryubakishijwe amatafari rikaba ririmo ikibaho gisa umukara, kikaba cyandikishijweho amagambo n'ingwa isa umweru.

Iyi foto iragaragaza ibitabo bitatu biteretse ku meza, ibi akaba ari ibitabo abanyeshuri bigiramo kugira ngo biyungure ubumenyi k'ubwo bari basanzwe bafite.

Ameza ari mu nzu ateretseho ibikombe, ibiyiko, amasahani, ibiti hejuru ndetse iruhande rw'ayo meza hakaba hari intebe ihateretse iruhande.

Abana bato b'abanyeshuri bari ku kigo cy'amashuri bakaba bari mu gihe cy'akaruhuko aho bari gukina bishimisha ku byicungo by'ikigo.

Abanyeshuri bato n'abakuru, barimo abambaye impuzankano zisa ubururu, abandi bakaba bambaye kaki ndetse n'umweru hejuru, bakaba bamwe bari ku byicungo, barya umunyenga.

Amazu afite ubwatsi buri imbere yayo, muri ubu bwatsi hakaba hamanitsemo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda igizwe n'amabara ari yo icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano bahetsi ibikapu bari gukina bigaragara nk'aho bari mu gihe k'ikiruhuko cyangwa se batashye bavuye kwiga.

Icyumba cy'amashuri kirimo intebe bicaraho bari kwigiraho, hasi hakaba hashashe amatafari ndetse hano hakaba harimo abanyeshuri bari kwigiramo.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, aho zisa kaki hasi, hejuru amashati akaba asa ubururu, bamwe muri abo banyeshuri bakaba bafite amasafuriya.

Abanyeshuri benshi barimo abahungu n'abakobwa bambaye imyenda isa kaki abandi bakaba bambaye imyenda isa ubururu, bari mu karuhuko bari gukina imikino.

Abanyeshuri benshi bari mu kibuga kinini, bakaba bambaye impuzankano hasi zisa kacyi, hejuru zikaba zisa ubururu.

Igipapuro kimanitse ku gikuta cyamatafari, icyo gipapuro cyanditseho amagambo ari mu cyongereza, kiriho ibishushanyo bisa nk'aho bari kuhigira.

Abanyeshuri benshi cyane biganjemo abahungu n'abakobwa, bakaba bicaye mu ishuri ririmo intebe zo kwicaraho, bakaba bafite amakayi n'amakaramu.

Abana batatu bambaye impuzankano zisa kake hasi, ubururu hejuru, bakaba bari mu ishuri ririmo ikibaho gisa umukara ndetse n'intebe zo kwicaraho.

Abana bicaye ahantu mu byatsi, bakoze uruziga, bakaba bafite ibitabo cyangwa amakayi mu ntoki bari kwigiramo.

Abana bato cyane bicaye mu twatsi, aba bana kandi bakaba bari imbere y'amazu, aya mazu akaba ari amashuri, aba bana bigiramo.

Urukuta rw'inzu ruriho amagambo manini yanditswe mu cyapa, agaragaza ko iki ari ikigo cy'amashuri cya Sainte Bernadette.

Ishuri rigizwe n'amadirishya abiri, rimwe rifunze irindi rikaba rifunguye, ririmo intebe abana bicaraho mu gihe bari kwiga kugira ngo bunguke ubumenyi bushyashya.

Abanyeshuri bicaye hanze ku ntebe, bambaye udupfukamunwa ndetse n'impuzankano zisa kacyi n'umweru, imbere yabo hakaba hari abantu babiri bafite amakayi bari kubigisha.

Abanyeshuri benshi cyane, bicaye ku ntebe zisa umweru mu nzu mberabyombi, bakaba bambaye impuzankano zisa umukara hasi, ndetse n'amashati y'umweru n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru.

Abanyeshuri benshi barimo abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano zisa kaki n'ubururu, bahetse ibikapu bari kugendera mu muhanda w'ibitaka bisa nkaho bavuye kwiga cyangwa bagiye kwiga.

Imodoka ziri ku murongo, zihuriye ahantu ziparitse, zikaba zisa neza, harimo isa umukara, imbere yazo, hakaba hari amazu.

Inzu mberabyombi nini cyane, ikaba yicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano zisa umweru hejuru ndetse imbere yabo hakaba hari abayobozi.

Abanyeshuri b'abakobwa bambaye impuzankano, aho amajipo asa kaki, ishati umweru ndetse n'imipira isa kaki, bakaba bari kugenda.

Uruzitiro rwiza cyane, rufite umuryango usa ubururu, hejuru hakaba hari icyapa cyerekana ibikorerwa muri iki cyanya.

Icyapa kiranga amerekezo kiri mu muhanda, kigaragaza aho ikigo cyitwa Ecole Secondaire Sainte Trinite, kiba mu ruhango aho giherereye.

Abanyeshuri barimo abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano zisa kaki hasi ndetse n'umweru hejuru, bakaba banambaye amakarita y'ishuri mu ijosi.

Ibibuga byiza cyane bikoze neza byo gukiniramo uko ari bibiri, bikaba bikikijwe n'amazu yubatse neza, iki kikaba ari ikigo cy'amashuri.

Umuhungu uri mu cyumba, akaba yicaye ku gitanda, iki cyumba kikaba kirimo ibitanda bibiri byose bigiye bigeretse, kikaba kirimo n'idirishya ririho rido.

Iki cyapa kiragaragaza impagukirwa za kirazira ndetse n'indangagaciro z'umuco Nyarwanda, ni byo bintu rwose birikugaragara kuri iki cyapa neza cyane rwose.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bakaba bambaye impuzakano zisa, abanyeshuri imbere yabo hakaba hahagaze abagabo batatu, abo bagabo akaba ari abayobozi.

Abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, bakaba bafite amasuka bari guhinga no gukora amasuku, inyuma yabo hakaba hari insina zeraho ibitoki.

Urupangu rwerekana iseminari ntoya y'i Butare, ikigo cyiza ku bakigaho, gitanga ubumenyi ku baturarwanda, kigatanga n'abapadiri beza mu Rwanda.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye hasi, bakaba bambaye impuzankano zisa umukara hasi ndetse n'umweru hejuru ndetse n'imipira isa shokora. Inyuma yabo hakaba hari amashuri.

Abanyeshuri benshi cyane bakuru, bahagaze ahantu hamwe bakaba bakoze uruziga, bakaba bari gukora siporo ngororamubiri ku ishuri.

Ikibaho gisa umukara, cyandikishijweho ingwa y'umweru, kiriho imibare bari gukuba hamwe n'urufunguzo rwa muzika, bigaragara ko ari abanyeshuri bigira kuri iki kibaho.

Abanyeshuri benshi bicaye mu cyumba cy'amashuri kirimo intebe zo kwicaraho, bakaba bambaye impuzankano zisa bose, imbere yabo hakaba hari umwe uri ku kibaho, ufashe irati.

Imodoka iparitse ifunguye umuryango, irimo umwana wicaye uhetse igikapu, wambaye imyenda ya siporo, umwana ugaragara nk'aho ari mu kigero cy'imyaka irindwi cyangwa umunani, umwana bisa nk'aho agiye kwiga.

Umwarimu ari mu ishuri ari kwigisha, imbere ye hari amakayi menshi cyane, inyuma ye hari ikibaho gisa umukara cyandikishijweho n'ingwa y'umweru, afite urupapuro mu ntoki rusa uweru, uwo mwarimu yambaye indorerwamo zo kureberamo ku barwayi b'amaso.

Icyumba kirimo ikibaho cya gisirimu gisa umweru ndetse n'akameza gasa shokora baterekaho ibitabo ndetse n'amakayi.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye hasi barimo abahungu n'abakobwa, bakaba bambaye impuzankano zisa ubururu hasi ndetse n'ubururu bw'ikirere hejuru ku mashati.

Abanyeshuri ni benshi cyane, bambaye impuzanyoto zisa kake hasi, hejuru amashate akaba asa ubururu, bakaba bahetse ibikapu mu mugongo.

Abanyeshuri b'abakobwa, bambaye impuzankano, aho amajipo asa kaki, amashati akaba asa umweru, imbere yabo hakaba hari umusaraba.

Umugabo wambaye itaburiya isa umweru ndetse n'agapfukamunwa gasa ubururu, akaba ari kwandika ku kibaho gisa umukara, akoresheje ingwa y'umweru.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa kaki hasi, umweru hejuru ndetse n'udupira tw'ubururu, bafite ibintu mu ntoki bagenda bahuhamo bikavuga.

Ubusitani bwiza cyane, burimo ibiti byakuze cyane bifite n'amababi manini, inyuma y'ibyo biti hakaba hagaragara amazu yubakishijwe amatafari, bigaragara ko aya ari amashuri.

Abantu bari gukora siporo urabona ko bishimye kuko siporo ari ubuzima, ikaba igira ingaruka nziza zo kugabanya ibiro, kugira ubuzima buzira umuze.

Abanyeshuri benshi bahetse ibikapu, bari ahantu hari amabisi menshi, bigaragara ko aba banyeshuri bagiye kujya ku ishuri cyangwa bari kuva ku ishuri bari gusubira mu rugo iwabo.

Abanyeshuri benshi cyane bicaye hasi, bakaba bambaye impuzankano zisa, ubururu hasi, hejuru akaba ari amashati asa umweru, inyuma yabo hakaba hari ibiti ndetse n'amazu.

Inzu irimo intebe, irimo imeza iriho mudasobwa y'umukara, hamwe na terefone ngendanwa, bigaragara ko ino nzu ituyemo abantu.

Iyi foto irerekana akameza kariho imashini ziri ahantu mu cyumba kimwe ndetse harimo n'utubati tumanitsemo ibindi bikoresho byifashishwa.

Inzu irimo tapi y'umweru n'umukara, irimo amavuta, umuti w'amenyo, uburoso bw'amenyo, isaha, telefone ngendanwa ndetse n'imyenda yo kwambara.

Icyumba kirimo akabati kanini cyane, karimo ibitabo bitondetse, bipanze ku murongo neza, iki cyumba bakaba ari isomero basomeramo kugira ngo biyungure ubundi bumenyi.

Icyumba kinini cyane kirimo ameza, hejuru y'ayo meza hakaba hateretseho ibirahuri, munsi na ho hakaba hariho ibirahure byamenaguritse, ku gikuta cy'iyo nzu na ho hakaba hegetse ibindi birahuri.

Ikigega cya kijyambere gitunganya kikanasukura amazi yo kunywa kugira ngo abanywa ayo mazi bagire ubuzima bwiza, kandi bibarinde indwara ziturutse mu mazi adasukuye neza.

Icyumba kiriho umuryango ndetse n'idirishya ririho amarido, iruhande rw'umuryango hakaba hari aka etajeri kamanitseho inkweto nyinshi cyane.

Icyumba kinini cyane kirimo intebe ndetse n'ameza, hirya y'ameza hakaba hari utubati twinshi, tumanitsemo ibitabo byinshi bitondetse ku murongo.

Icyumba kirimo igitanda, kiriho umusego, kirimo irange ry'icyatsi, kimanitseho imyenda, harimo amashati, imipira yo hejuru, bigaragara ko iki cyumba kibamo umuntu.

Abagabo babiri bambaye indorerwamo z'amaso, iruhande rwabo hari umugore, bafite amakayi n'amakaramu, bicaye kumeza ariho mudasobwa bari gukora akazi.

Abanyeshuri benshi bicaye muri class irimo intebe zisa icyatsi ndetse n'ikibaho imbere gisa icyatsi n'ikindi kijyanye n'igihe tugezemo, imbere yabo hakaba hari umwarimu uri kubigisha.

Ishuri rinini cyane ryubakishijwe amatafari yahiye, ririmo intebe nini abanyeshuri bicara bari kwigiraho, rikaba ririmo abantu babiri.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore bicaye mu cyumba kinini kirimo ameza ateretseho za mudasobwa, bakaba bari mu nama.

Umumama wambaye itaburiya y'umweru, wambaye agapfukamunwa, uri mu ruganda runini rurimo amamashini menshi bigaragara ko hari ibyo ari gutunganya.

Inzu nini cyane zigeretse, zisize irange ry'umweru, zikaba zubatswe kijyambere, imbere y'izi nzu hakaba hari ubusitani bwiza cyane.

Urukuta rumanitseho udukingirizo, twifashishwa mu gihe k'imibonano mpuzabitsina, udukingirizo tukaba turinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo nka SIDA n'imitezi.

Abantu benshi biganjemo abagabo n'abagore bari mu cyumba kinini giteyemo intebe ndetse bakaba bicaye, imbere yabo hari umuyobozi uri kubagezaho ikiganiro.

Icyumba kinini cyane, kirimo intebe ndetse n'ameza ateretseho mudasobwa nyinshi, hakaba harimo ndetse n'indobo isa ubururu iteretsemo, imbere muri iki cyumba hakaba hari ibibaho.

Icyumba kirimo intebe nyinshi cyane, kikaba ari kinini cyane ndetse kinamanitsemo rido nziza cyane, iki cyumba akaba ari ishuri ryo kwigiramo.

Abantu bateraniye mu cyumba kimwe, barimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo bamwe muri bo bambaye udupfukamunwa, aba bantu bakaba bari gukora inama.

Akabati kari mu cyumba, kariho inkweto hejuru yako n'igikapu, uruhande rumwe hakaba hariho igitanda gisashe neza, urundi ruhande hakaba hariho akajerekani gateretse ku meza.

Ahantu hanini hari ubusitani bwagutse bwanitsemo imyenda, inyuma y'ubwo busitani hakaba hari amazu, hejuru hari ikirere kiza kitarimo ibicu.

Icyumba kiza cyane kirimo uburiri bushashe neza, ubu buriri bukaba buriho umusego ndetse iki cyumba kikaba kigaragaramo idirishya rifite amarido meza ndetse kikaba kirimo n'amameza.

Icyumba kinini cyane, kirimo utubati tureture kandi twinshi, tukaba tumanitsemo ibitabo bitondetse ku murongo, iri rikaba ari isomero.

Ubusitani bunini, bwiza cyane, bukaba burimo ubwatsi bwiza butoshye kandi ubu busitani bukaba burimo ibiti bito ndetse n'ibirebire byakuze neza.

Inzu nini cyane kandi ndende igeretse, yubatswe mu buryo bwa kijyambere, imbere y'iyo nzu hakaba hari amabendera abiri ndetse n'imodoka ihaparitse.

Icyumba kirimo uburiri bushashe neza, imbere y'ubwo buriri hakaba hari akabati kamanitsemo inkweto, hejuru hakaba hari utubido turimo amazi.

Abantu biganjemo abagore n'abagabo, bakaba bicaye mu cyumba kirimo ameza, imbere yabo hakaba hateretse mudasobwa, inyuma yabo hakaba hari utubati dutondetsemo ibitabo.

Amazu meza cyane yubatswe kijyambere, yubakishijwe amabati asa umutuku ndetse akaba anasize irange risa umuhondo, akaba akikijwe n'ubusitani bwiza, burimo n'ibiti.